Ibishushanyo bitandukanye biri mu mabara atandukanye, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye bigaragaza umwana ndetse n'ibindi bikinisho, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye nk'icyatsi, umuhondo, umutuku ndetse n'andi mabara, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi, bufite ireme mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Igishushanyo k'inka iri mu mabara y'umukara n'umweru y'igisimba cyo mu ishyamba cyitwa agasumbashyamba, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibikapu biriho ibishushanyo bitandukanye ni bimwe mu byo abana biga mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri y'inshuke bitwaza kuko bakunda ibibashimisha.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye nk'amabara y'icyatsi, amabara y'ubururu, amabara y'umutuku ndetse n'ay'umweru, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi bufite ireme mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo ndetse n'ibipupe bitandukanye ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke, ibi bifasha abana kwiga batarambirwa.

Igishushanyo kigaragaza inyamaswa yo mu mazi yitwa ingona ndetse n'amagi yayo, ni kimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi, mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke

Ibishushanyo bitandukanye bigaragaza abana, ibisokozo, indobo ndetse n'ibindi, ni bimwe mu byifashishwa mu kwigisha ururimi rw'icyongereza mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bishushanya amagufa, bombo ndetse n'ibindi bitandukanye biri mu mabara y'umuhondo, icyatsi, umweru, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibitabo byiganjemo udukuru tugiye dutandukanye ndetse n'ibishushanyo bitandukanye, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi buhabwa abana bo mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza.

Ibishushanyo bitandukanye harimo ibishushanyo by'imbeba, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bitandukanye biri mu mabara atandukanye nk'amabara y'umuhondo, icyatsi, n'ubururu ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke.

Ibishushanyo by'inyamaswa zitandukanye harimo bakame cyangwa se inkwavu, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Ibikoresho by'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, ni bimwe mu bigomba kuba biririho ikinisha abana bakunda nk'ibipupe ndetse n'ibindi kandi bikaba biri mu mabara ashimisha abana.

Minisiteri y'uburezi irakangurira abarezi bose, kujya batanga imyitozo isuzuma ubumenyi ko umunyeshuri ibyo yigishijwe yaba yarabifashe.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye, ibi bifasha abana gukunda amasomo ndetse n'ibindi.

Leta y'u rwanda yashyize imbaraga mu kubaka ibyumba by'amashuri byinshi, yaba amashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke, mu rwego rwo kwirinda ubucucike bw'abanyeshuri mu ishuri.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye nk'icyatsi, umutuku ndetse n'ubururu ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza.

Ibishushanyo bitandukanye harimo amarate, ikaramu z'ibiti, imibumbe, ibikapu ndetse n'ibindi ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke bagomba kujya bagenerwa ibitabo byo kwigirwamo, ibyo gusoma ndetse n'ibitabo by'imyitozo, ibi bikabafasha kuzamura ubumenyi bwabo.

Ibikoresho by'abana biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke nk'ibikapu uba usanga biriho ibishushanyo bigiye bitandukanye mu rwego rwo gushimisha abana.

Ahantu henshi uzasanga amashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke ntuzabura kuhasanga ibishushanyo, byaba ibishushanya imibare ndetse n'inyuguti.

Mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mashuri abanza ndetse na ya kaminuza Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri bigiye bitandukanye bizafasha abanyeshuri kwiga neza.

Ibishushanyo bitandukanye biri mu mabara atandukanye nk'amabara y'umutuku, ay'icyatsi, umuhondo ndetse n'andi, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Abarezi bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke bifashisha bimwe mu bishushanyo bishushanya inyuguti zitandukanye harimo nka A, B, C ndetse n'imibare nka rimwe, zeru, karindwi mu rwego rwo kwigisha abana.

Mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'incuke ni hamwe hifashishwa, ibishushanyo bitandukanye, mu kwigisha no gutanga uburezi bufite ireme, kuri aba bana bakiri batoya.

Ibigo by'amashuri abanza bigomba kurangwa n'isuku yaba imbere mu mashuri ndetse no ku nkengero zabyo. Ibi bifasha abana kugira ubuzima bwiza ndetse bagakura bafite ubwenge.

Ibishushanyo bitandukanye ndetse biri no mu mabara atandukanye nk'icyatsi, umuhondo, ubururu ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi bw'amashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke.

Minisiteri y'uburezi ikomeje gukwirakwiza mudasobwa mu mashuri abanza, ay'incuke ndetse n'ayisumbuye, mu rwego rwo guteza uburezi imbere bufite ireme.

Ibikoresho nk'isuka, icyuma, igikombe ni bimwe mu byifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke mu isomo ry'Icyongereza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke abarezi babatoza ibikorwa bigiye bitandukanye harimo gushushanya, kwandika ndetse no kubigisha gusoma neza Ikinyarwanda n'izindi ndimi.

Ibikoresho bitandukanye nk'amarati, amakaramu y'ibiti, utwuma dusongora ibikaramo, ni bimwe mu byifashishwa mu gutanga uburezi mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke mu isomo ry'imibare.

Iyi nama yahuje abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye ndetse n'abanyeshuri, yasojwe mu mbyino ndetse n'imyidagaduro myinshi cyane.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Rukomo giherereye mu karere ka Nyagatare, ni kimwe mu bigo by'intangarugero mu gihugu cy'u Rwanda kuko gitsindisha cyane.

Mu rwego rwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda Minisiteri y'Ubuzima irakangurira ibigo byose by'amashuri yaba amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye gushyiraho gahunda yo gukaraba amazi meza n'isabune ku banyeshuri.

Abayobozi ndetse n'abanyeshuri, ni bamwe mu bahuriye mu nama, biga ku bijyanye n'itangazamakuru, abanyeshuri bamwe biyemeza ko nyuma yo kwiga bazaba abanyamakuru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barasabwa gushyira imbaraga mu kwiga kuko ibizamini bya Leta byegereje, ibi bivuzwe n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri kugira ngo abana bitegure.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ni bamwe mu bahuriye mu nama y'ishuri aho bigaga ku byo bagiye kujya bakora mu rwego rwo kwihangira umurimo ndetse no gutekereza cyane.

Abanyeshuri, abarezi ndetse n'abandi bakozi bakora mu bigo by'amashuri yisumbuye, barashishikariza abana bakiri bato gukunda umurimo ndetse bakajya bihangira n'imirimo mu rwego rwo kwirinda ubushomeri.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ni bamwe mu bakanguriwe kwiteza imbere ndetse no mu gihe basoje kwiga bakazihangira imirimo, ibi bikazabafasha kwirinda ubushomeri ndetse no kugwa mu bishuko bitandukanye biterwa no kubura akazi.

Abayobozi, abanyeshuri ndetse n'abandi bo mu mashuri yisumbuye ni bamwe mu bagomba kujya bafatanya bakungurana ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye, ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere bagenzi babo.

Ahabera inama y'ishuri abayobozi ndetse n'abanyeshuri ni bamwe mu bahuriye aho hantu, biga ku banyeshuri bananiranye ndetse batanga n'ibihano kuri bamwe banze kumva.

Abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri yisumbuye, bahuriye mu nama n'abayobozi babo baganira ku myitwarire yabo ndetse n'ibishobora kubateza imbere harimo kwihangira imirimo n'ibindi.

Abayobozi b'amashuri yisumbuye ndetse n'abanyeshuri, ni bamwe mu bahuriye mu nama yo kwigira, ibi ngibi bifasha abanyeshuri kumva ko bari kumwe n'abayobozi babo, bakiga bashyizeho umwete.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza barashishikarizwa kwihangira imirimo mu rwego rwo kwirinda ubushomeri mu gihe bazaba bashoje amashuri yabo yisumbuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za Kaminuza, bicara ku ntebe ndetse bakanandikira ku meza atandukanye n'ayo abana biga mu mashuri abanza bakoresha.

Abanyeshuri basoje amashuri makuru ndetse na za kaminuza ni bamwe mu bishimira urugendo ruba rutoroshye baba barakoze igihe gisaga imyaka itatu ndetse no kuzamura.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ni bamwe mu bishimira ko ibigo bigaho birangwa n'isuku kandi biri ahantu heza, byoroshye kugera kuko bavuga ko bibaye biri kure y'umuhanda byaba bigoranye.

Amashuri makuru ndetse na za kaminuza, ni hamwe abanyeshuri bakura uburezi ndetse n'ubumenyi butandukanye, harimo nko kwikorera ibikoresho bitandukanye nk'ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inyubako z'amashuri makuru ndetse na za kaminuza ni zimwe zishyirwa ku muhanda, zikagira ubusitani bwiza kugira ngo n'abahabona baboneka ari ahantu heza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza bashimira Leta y'u Rwanda ko yabubakiye inyubako nziza kandi zigezweho bazajya bigiramo ndetse ikaba yarabubakiye n'ibibuga by'imyidagaduro bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ni bamwe mu bahuriye mu nama, baganira ku burezi bufite ireme, batanga ibitekerezo, bagaragaza ahari imbogamizi ndetse n'ibyo leta yakongeramo kugira ngo uburezi bugende neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, barakangurirwa kwihangira imirimo mu rwego rwo kurwanya ubushomeri igihe amashuri azaba arangiye.

Abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza tutibagiwe n'ibigo by'imyuga, ni bamwe mu batozwa kwihangira umurimo harimo nuwo gushushanya.

Abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, barashimira Leta ko yabazaniye ibikoresho bitandukanye bibafasha mu myigire yabo, hari nk'intebe nziza zo kwicaraho ndetse n'ameza yo kwandikiraho igihe bari kwigaga.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, bakangurirwa kwihangira umwuga mu rwego rwo kwirinda ubushomeri igihe bazaba basoje amasomo yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, barasabwa kwihangira imirimo, irimo nko gushushanya, gukora ibikoresho byo kwicaraho, ibyo kuriraho ndetse n'ibindi.

Mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza buri byumba byagiye bishyirwaho nimero ndetse n'ibikorerwamo mu rwego rwo kwirinda ndetse no kugira serivise nziza.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, biga amasomo agiye atandukanye, harimo nko gushushanya, amasomo y'ibijyanye n'ubuzima ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahenshi mu gihugu amashuri makuru ndetse na za kaminuza usanga yubatse ku muhanda, ibi bishobora korohereza abajya kuri aya mashuri kuko kugerayo biba byoroshye.

Inyubako z'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, ni zimwe zigiye ziriho nimero z'ibyumba, ibi bikaba bifasha abakozi ndetse n'abanyeshuri, kumenya aho ibikorwa biri bubere mu buryo bwihuse.